Abantu bari mu murima urimo ibigori, bakaba bari kugenda bashyiraho ifumbire mvaruganda mu rwego rwo kugira ngo bikure neza kandi bizatange umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza gukoresha ifumbire nyongeramusaruro.

Kontwari na etajeri birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi; muri kontwari harimo imirama yifashishwa mu buhinzi, naho muri etajeri harimo ibikoresho byifashishwa mu bworozi ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi.

Ingemwe z'inturusu ubona ko zigeze mu gihe kiza cyo guterwa; zarakuze, zitaweho neza, ziruhirwa ziravomererwa, ubona ko zitabwaho cyane. Ni byiza kwita ku nturusu kugira ngo zizakure neza, bityo nuzitera zizahite zifata mu murima wawe.

Abantu barimo gukubura umusaruro wabo bawegeranya nyuma yo kuwuhura bawutunganya. Ni byiza gutunganya umusaruro wawe ukizera neza ko umeze neza, mu rwego rwo kugira ngo uzawubike neza bityo ukubyarire inyungu.

Ibigori bimanitse ku gihangari. Ni ibigori byinshi cyane; ubona ko byeze, byumye bigeze mu gihe cyo guhungurwa. Ni byiza kwanika ibigori ku gihangari kubera ko byuma neza, bityo bikazahungurwa byumye mu buryo bwiza.

Ibiti byasupre biteye ku muhanda akaba ari ibiti byakuze ubona ko birimo kuzamuka neza. Gutera ibiti ni byiza kubera ko birwanya isuri, kandi bituma haboneka umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hari ibiti byinshi cyane by'amoko atandukanye, ni byiza gutera ishyamba kubera ko rirwanya isuri kandi rigatuma habaho umwuka mwiza wo guhumeka ndetse rigatanga n'imvura.

Ubusitani burimo indabo nziza zirimo gukora neza, hakaba harimo ururabo rumeze nk'igiti cya sipure, iruhande rw'ubusitani hari ahantu imodoka ziparika, ku buryo hashobora guparika imodoka icumi.

Pipinyeri irimo ingemwe zinajijwe mu rwego rwo kugira ngo zikure neza, hanyuma zijyanwe guterwa ari uko hizewe ubuziranenge bwazo. Ni byiza gukurikirana ingemwe zikiri ntoya, kubera ko zikura neza bityo zigaterwa zizewe.

Indabo ziri mu busitani, akaba ari indabo ubona ziri gukura neza ku buryo zisa neza. Ni byiza kuhira indabo zawe kubera ko zigira isura nziza, bityo zigatuma iwawe hagaragara neza.

Imbuto z'amoko atandukanye, harimo ibinyomoro, amatunda, pome, indimu ndetse na watemelon, kurya imbuto ni byiza cyane kubera ko umuntu uzirya ahora ameze neza, cyane cyane ibinyomoro, bituma umuntu agira amaraso ahagije mu mubiri.

Inkoko ebyiri imwe ni isake indi ni inkokokazi. Korora inkoko ni byiza kubera ko zishobora gutuma witeza imbere, ukabona amafaranga agufasha kwikura mu bukene. Isake iraryoha cyane.

Ingurube eshatu ziri inyuma y'inzu, zikaba zirimo kunywa amazi mu kijerekani, ni byiza guha ingurube amazi kubera ko atuma zikura neza bityo zigatanga icyororo vuba.

Akayira kagana mu murima uhinzemo ibigori, akaba ari umurima urimo ibigori ubona ko byumye bigeze mu gihe cyo gusarurwa. Ni byiza gusarura ibigori byawe byumye neza mu rwego rwo kugira ngo ubyanike, uhite ubihungura bidatinze.

Ingagi yicaye mu ishyamba, ikaba ifite mu maso hagaragaza ko ikuze igeze mu zabukuru. Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo ku buryo abakerarugendo bakunda kuza kuzisura mu misozi miremire bagaha igihugu amadovize.